Ni muri butike harimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'imbuto nk'imineke ndetse na avoka, harimo indobo zirimo amandazi ndetse n'izirimo ubunyobwa, harimo ibintu byinshi bitandukanye.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'ubururu akaba arikucyuma gitanga amafaranga kuri banki, akaba agiye kubikuza amafaranga ngo abone ayo yifashisha.

Amagare meza agezweho hirya yayo hakaba hari abantu bicaye bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse bicaye bari munsi y'iri y'umutaka bakaba biteguye gufata ibihembo byabo.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, bahuriye ku kazu ka MTN kugira ngo bahabwe serivisi zijyanye n'itumanaho bityo babone uko batumanaho n'imiryango yabo iri hirya no hino.

Akazu ka MTN hari umugabo ugahagaze iruhande arimo arasaba umwajenti serivisi zijyanye n'itumanaho cyangwa se kubitsa cyangwa se kohereza amafaranga ahandi.

Abakozi b'ikigo k'itumanaho bita MTN ni bamwe mu bantu bakwiye gushimirwa kuko bafasha abaturage kandi bakabaha serivise zinoze zirimo no guhanahana amafaranga.

MTN ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikomeje gufasha benshi kuko babona serivisi zijyanye no guhererekanya amafaranga, bitabaye ngombwa ko bajya gutonda umurongo kuri banki.

Imbuganga ngari ikaba ari n'umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ugizwe n'amapave, hakaba hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'akazu gatangirwamo serivisi z'itumanaho za MTN.

Umukozi w'ikigo k'itumanaho cya Emutiyene mu Rwanda, yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ari munsi y'umutaka w'umuhondo, ari gutanga serivisi ku mukiriya waje amugana.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho ka MTN hakaba hari moto igaparitse iruhande, aka kazu gakorerwamo n'umucuruzi ucuruza serivise zijyanye n'itumanaho.

Sosiyete ya Airtel ni imwe muri sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda ikaba ifasha abaturage benshi, iyo ugeze ahantu henshi ugenda uhasanga ibyapa byayo bigaragaza ibyo bakora.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN, harimo umwajeti ushinzwe gutanga serivisi ku bakiriya baje bamugana bakoresha uyu muyoboro.

Umworozi w'umwuga akaba yarahisemo korora inkoko ndetse n'imbata akaba yafashe umwanya we akajya kuzigaburira kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro kandi azabone ku mafaranga.

Abasore babiri bakaba bafashe ibikoresho bijyamo amata, akaba ajyanwa muri ibi bikoresho kugira ngo ajye gutunganywa maze abashe kumara igihe kirekire.

Abahinzi ba koperative bahuriye hamwe kugira ngo bige ku buryo bakongera umusaruro wabo, barebe n'ingamba bafata kugira ngo batazagwa mu bihombo.

Guhinga warabigize umwuga bishobora kuguteza imbere bityo nawe ugakirigita ku ifaranga, uyu mubyeyi ari mu murima we w'ibishyimbo urabona ko yabyitayeho none bimeze neza.

Icyapa kigaragaza banki y'abaturage, akaba ari banki ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, itanga inguzanyo ku bazikeneye ikanabika amafaranga y'abaturage batandukanye ayo waba ufite yose.

Abagabo bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari bakaba harimo n'umugore umwe bahagaze imbere y'ibitaro, imbere yabo hari ubusitani bwiza.

Umuyobozi w'umudaso akaba adafite akaboko yambaye impuzankano ye ari guha igihembo k'ishimiye umuturage witwaye neza ndetse agakora neza.

Inama rusange y'abaturage yahurije hamwe abantu benshi batandukanye bakaba bari kwiga ku bijyanye na koperative n'uburyo bakomeza kuzibungabunga.

Ni ku bwanakiro aho abahinzi ba koperative banitse imyaka yabo kugira ngo yume babone uko bajya kuyigurisha ku masoko maze babone amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Umuyobozi ufashe indangururamajwi mu ntoki, akaba ari kuganiriza abaturage ayoboye, ababwira uburyo bagomba kurinda umutekano w'ibyabo ndetse n'uw'abandi muri rusange.

Abantu batandukanye barimo abazungu ndetse n'abirabura bahagaze imbere y'imodoka bakaba bishimira ko itanga serivisi nziza cyane.

Bare yubakishije amabuye akomeye, ikaba ari ahantu hihariye kandi hakikijwe n'ibiti birebire, abantu bajyayo bagafata icyo kunywa ndetse n'ibyokurya.

Ni muri bare mu cyumba kiza cyane hakaba hasize irangi ry'umweru hakaba hari n'ameza ndetse n'intebe abaje bagana aho bicaraho kugira ngo bahabwe serivisi.

Icyapa cy'inzoga yo mu bwoko bwa skol gatanu, kikaba gishushanyijeho ikarita y'Igihugu ndetse iki gishushanyo cy'ikarita y'Igihugu kikaba kirimo n'idarapo ry'ibendera ry'u Rwanda.

Mu kabari cyangwa se muri bar iyo ugezeyo usangamo amoko y'inzoga zitandukanye haba primus, haba ibyuma ndetse n'izindi zose abantu bajya gufata bakica icyaka.

Bare ni ahantu h'ingenzi cyane kuko hafasha abantu benshi, uje ahagannye ashobora kubona icyo kunywa cyangwa se icyo kurya bityo akumva araruhutse.

Amaduka menshi atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, usangamo amoko y'imyambaro atandukanye, yaba iy'abakobwa, yabaye iy'abagabo ndetse n'abakuze, byose ufite amafaranga wagerayo ukihahira.

Ni mu iduka hacururizwamo amoko y'ibitenge atandukanye, hakaba harimo abantu baje gushakamo serivisi kugira ngo babadotere imyambaro y'ubwoko bifuza, bityo nabo bambare baberwe.

Butike icuruza amagaze, akaba ari igikorwa gifasha abaturage benshi kuko gaze ari kimwe mu bifasha abaturarwanda benshi ndetse n'abandi banyamahanga, guteka vuba kandi bakirinda kwangiza ibidukikije.

Ni muri butike harimo umugore w'umucuruzi, muri butike ye hakaba harimo ibintu bitandukanye, ibirungo, amandazi, ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Saradine ikungahaye ku myunyungugu kuko iba irimo amafi kandi ayo mafi akaba afasha mu kongera vitamine mu mubiri w'umuntu bityo ubuzima bukagenda neza.

Indobo iri mu ibara ry'umweru izi ndobo nk'izi akenshi zisangwa mu mabutike aho ziba zirimo amandazi, amakeke cyangwa se imigati abantu barya.

Iduka ririmo amoko y'amavuta atandukanye ndetse n'amaparufe, ibi bikaba bifasha uyu mucuruzi kwinjiza agatubutse kuko bikenerwa n'abantu benshi.

Gaze ni kimwe mu bikoresho bifasha abanyarwanda kubona serivisi zihuse cyane cyane zijyanye no gutegura amafunguro kuko ikora vuba kandi bakarya byihuse.

Amaduka atandukanye harimo acuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo acuruza amagaze, imbere y'aya maduka hakaba hari imbuga ngari igizwe n'amapave.

Iduka cyangwa se butike icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ugiyeyo wahasanga ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara n'ibindi byose bitandukanye, wajyayo ugahabwa iyo serivisi.

Icyumba gisize ibara ry'umweru, kikaba giteretsemo ameza afite ibara ry'umutuku ndetse n'ikigina, aya meza urabona ko ashaje kuko irangi riri kuvaho.

Ni ku rusengero rwubatse neza cyane rwubakishije amatafari rukaba rukikijwe n'ibiti by'inganzamarumbo biri iruhande, hakaba hari n'imbuga ngari iparikwamo ibinyabiziga.

Musenyeri wambaye imyenda imuranga iri mu ibara ry'umweru, umutuku, umukara akaba afashe n'umusaraba mu ntoki, akaba ari umwe mu babwiriza ijambo ry'Imana.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, hakaba harimo umugabo ndetse n'umugore bafashe sheke yo muri Equity, akaba ari igihembo bashyikirijwe kubera ko bakoze neza cyane.

Ni mu rusengero ahahuriye abakrisito benshi, urabona ko hari korali irimo iraririmba itaramira abantu baje kugira ngo bahimbaze Imana ndetse banayishimire.

Abakirisitu bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gukurikirana ijambo ry'Imana, urabona ko babyishimiye kandi bateze amatwi bumva iryo jambo.

Abakirisitu bari kumwe na musenyeri bakaba bavuye gusenga bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso mu marembo ya kiliziya yabo isa neza cyane.

Urusengero ruherereye mu Karere ka Nyagatare mu Murenge wa Rwagitima, uru rusengero rukaba rusengeramo abakirisitu baba baje kwiyambaza Imana kugira ngo bayishimire ibyo yabakoreye.

Abagabo bambaye amakositime bamwe bakaba bambaye amakaruvati y'abapasiteri ikigaragara cyo bari mu rusengero bateze amatwi ijambo ry'Imana kuko bafite na Bibiliya.

Umupadiri wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu akaba yegeranye n'abahereza be bafite ibipapuro mu ntoki urabona ko bishimye cyane rwose kandi baje gutaramira abakirisitu.

Ni mu nyubako irimo amabara y'icytsi ikaba isakajwe n'amabati, aha ni ku rusengero aho abakirisitu bajya bagasenga kandi bagasabana.

Icyumba cyiza giteye irangi rijya gusa umuhondo, hahuriyemo abagore ndetse n'abagabo baje gusenga kugira ngo biragize Imana ndetse ayishimire ko ikibarenze.

Insengero ni hamwe mu hantu hahurira imbaga nyamwinshi y'abantu baba baje kwiyambaza Imana kugira ngo bamwe banayishimire ku byo yagiye ibakorera kuko biba ari byinshi.

Hoteri iri ahantu heza cyane igizwe n'ibiti bitanga akayaga ndetse n'ubusitani bwiza utuyira tugana kuri iyi hoteri twubatswe n'amapave.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho bitandukanye harimo akabati, harimo inzitiramubu, harimo igitanda kiriho n'imisego gishashe neza akaba ari imbere muri hoteli.

Amahoteli menshi aba ategura n'amafunguro yo kwakira abaje babagana kandi ayo mafunguro aba ateguranywe ubuhanga. Niyo mpamvu iyo uriye muri hoteli wumva ibiryo byaho biryoshye cyane.

Amahoteli menshi iyo ugiyemo usangamo imyanya yo kwicaramo iba irimo intebe nziza ndetse n'ameza meza yo kuriraho bityo bigakurura abakiriya benshi.

Inyubako nziza isukuye neza cyane, ni ku masaha ya nimugoroba muri iyi nyubako harimo ameza ariho n'intebe ndetse n'ibikoresho by'abantu baje bahagana.

Hoteri nziza cyane isize amabara y'umweru ifite amadirishya agizwe n'ibirahure, hanze y'iyo hoteri hari imbuganga ngari iparikwamo ibinyabiziga by'abaje bagana iyo hoteri.

Icyumba gifite isuku nkuko bigaragara, gifite purafo isa ikigina, gifite inzitiramibu, igitanda gishashe neza ndetse n'amarido. Akaba ari icyumba cyo muri hoteli.

Hoteri nziza cyane rwose uko bigaragara igeretse inshuro eshatu, iyi hoteli hanze yayo hari ubusitani ndetse hari na pisine abantu bogeramo igihe bakeneye kuruhuka.

Abantu bahuriye mu cyumba k'inama harimo umuzungu umwe ndetse n'abirabura, bakaba imbere yabo hari uducupa tw'amazi bari kuganira ku cyateza imbere hoteli yabo.

Hoteli igaragara neza cyane, ikaba ifite inkingi z'ibyuma, ikaba isakajwe amabati y'umweru ndetse ikaba ifite n'amayesikariye abantu bazamukiraho kugira ngo bajye mu igorofa yo hejuru.

Icyumba kiza gisize amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, muri icyo cyumba hakaba harimo intebe abakiriya bicaraho igihe bagannye muri izi hoteli.

Inzu igizwe n'inzugi z'ibirahure ndetse n'amarido ikaba isize amarangi y'umuhondo akaba ari icyumba kimwe mu byumba bya hoteri.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu muri hoteri mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe bari kuganira banarya urabona ko bahuje urugwiro rwose.

Icyumba cyiza kirimo amatara ari kwaka kirimo amabara y'umweru ndetse n'amarido kirimo n'igitanda gishashe neza cyane, ibyumba nk'ibi bisangwa muri hoteli cyangwa se mu mamoteli.

Ni mu cyumba cyiza cyane giisize ibara rijya gusaba umuhondo gishasheho amashuka meza cyane ndetse n'imisego iri mu ibara ry'umweru akaba ari icyumba kimwe muri hoteri runaka yo mu Rwanda.

Icyumba kimwe mu nyubako ya hoteli, kikaba kirimo ibikoresho byose by'ibanze, haragaragaramo ameza ndetse n'intebe, abaje bagana aha bicaraho bakaruhuka.

Icyumba kiza gisize ibara ry'umweru, gifite amadirishya y'ibirahure, muri icyo cyumba kandi hakaba harimo intebe ndetse n'ameza abaje bagana muri iyi hoteri bicaraho bagatekana bakamera neza.

Amahoteli amwe n'amwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, aba afite uburyo bwihariye atekamo amafunguro, bityo bigakurura abakiriya kugira ngo baze kurya kuri izo ndyo zabo.

Ni ku kidendezi cy'amazi cyangwa se mu ndimi z'amahanga bita picine, aho abantu bajya bakaruhuka bakajya muri aya mazi bagakina bagasabana bakishima cyane.

Ni hanze mu mbuga ngari ya hoteli, aho abaje muri izo hoteli biyakirarira bagafata amafunguro n'ibyo kunywa bafata no ku kayaga kaba kari hanze.

Abantu bari mu cyumba cya hoteli bakaba bambaye neza cyane rwose kuko benshi bambaye amakote ndetse na karuvati, bakaba bafashe ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bibuka ibi bihe bagiranye.

Isoko rusange ahahuriye abantu benshi bakaba baje kwihahira ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara, ni byiza rero ko ugiye ku isoko witwaza amafaranga ahagije.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bakaba bari mu isoko aho bagiye guhaha bamwe bagiye guhaha ibyo kurya abandi bagiye guhaha ibyo kwambara.

Ni mu isoko hakaba harimo imyambaro yo mu mabara atandukanye icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'ibindi, hakaba hari n'abantu baje guhaha iyo myambaro.

Ku muhanda hakaba hari n'isoko ahagurishirizwa intebe, ameza ndetse hakanadoderwa imyenda, hirya hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Ibikarito ndetse n'amashashi, bikaba byose bipfunyitsemo imyambaro yo kwambara, hakurya hari ibalo y'inkweto na zo zambarwa n'abatari bake cyane.

Ni mu isoko bacururiza hasi hakaba harimo inkweto, imyambaro, hirya hari urujya n'uruza rw'abantu bari kuza bagana muri iri soko kugira ngo bihahire.

Mu isoko harimo urujya n'uruza rw'abantu haparitsemo n'igare, harimo imyenda itandukanye yaba iy'abagabo yaba iy'abagore kandi habamo n'ibyo kurya.

Amasoko menshi hirya no hino mu gihugu, usanga harimo imyambaro, ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi bitandukanye, umuntu afite amafaranga, akaganayo abasha kwihahira ibyo akeneye.

Agakoresho kabugenewe kamanitseho imyambaro iri mu mabara atandukanye oranje, icyatsi kibisi, umukara, ubururu, aka gakoresho kakaba kifashishwa n'abantu batandukanye.

Abacuruzi bari mu isoko bamwe bari gucuruza imyambaro abandi bari gucuruza ibiribwa, iruhande rwabo hari ikinyabiziga cy'imodoka kiri kugenda.

Ni resitora iriho ameza ndetse n'intebe, hakaba arimo amatara ikaba ifite isuku, aha ngaha rero abantu baganayo bagahabwa serivise baje bakeneye kandi neza.

Umuhanda mugari, umuhanda mwiza wa kaburimbo, umumotari akaba ari kuwugendamo ahetse umufuka inyuma ndetse yambaye na kasike kugira ngo imurinde kuba yahura n'impanuka.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo, akaba yambaye kasike imurinda kuba yakomereka, hirya y'umuhanda hakaba hari amazu y'ubucuruzi, akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Abamotari baparitse ahantu hamwe, bategereje abagenzi batwara kugira ngo babahe amafaranga, abamotari na bo babahe serivisi baje hano bakeneye.

Umuhanda mugari kandi mwiza wa kaburimbo, hakaba arimo umumotari utse umugenzi kugira nawe abashe kumuha ku mafaranga yo kumutunga no gutunga umuryango we.

Abamotari bari kuganirizwa ku byiza by'iyi moto, uyu mugabo bari kubibashishikariza kugira ngo babe bayigura, nawe abone ku mafaranga kandi nabo babashe gutanga serivisi.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari mu muhanda mugari, ihande rw'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi, aya mazu y'ubucuruzi akaba arimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Umumotari wambaye kasike iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari kuri moto mu muhanda, ategereje umugenzi yatwara kugira ngo amuhe amafaranga na we yikenure mu bibazo bye.

Abamotari ni bamwe mu bantu bakorera amafaranga bitewe nuko Leta yabubakiye imihanda myiza bikabafasha mu gukorera ayo mafaranga byihuse.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo na moto ihetse umugenzi, urabona ko ari igikorwa cyiza kandi gituma serivisi z'ingendo zigenda neza.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kunyuramo umunyonzi uhetse amajerekani y'amazi, uyu muhanda ukaba unyurwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye kuko ni mugari.

Umumotari wambaye ijiri y'umutuku na kasike y'umutuku agiye kurira moto ye kugira ngo ajye gutwara abagenzi bityo bamuhe ku mafaranga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga moto eshatu ndetse n'imodoka, hirya y'umuhanda hakaba hari amazu akorerwamo ubucuruzi.

Umumotari uri kugenda ku kinyabiziga cya moto akaba yambaye kasike y'icyatsi kibisi n'ijire iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo akaba agiye gutwara umugenzi kugira ngo amuhe amafaranga.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba uri kugenrwamo n'umumotari uhetse umugenzi inyuma, hirya y'umuhanda hakaba hari kiliziya ndetse hakaba hari n'insina zitoshye.

Umumotari uri mu muhanda akaba yambaye kasike y'umukara, ahetse igikarito, inyuma ye uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amazu y'abaturage.